Abantu ubona ko bishimye iruhande rwabo, hari imodoka inyuma yabo bakikijwe n'amatara menshi, ubona ko hari amatara anyuranye kandi ubona barimo bifotoza neza rwose.

Abantu ubona ko bari mu bucuruzi, isoko ryiza rwose ririmo imboga n'imbuto, ubona ko rwose ari isoko rigezweho kandi rimeze neza.

Kiyosike ya emutiyeni irafunguye hari umukiriya uri gusaba serivisi, abantu baratambuka mu muhanda hagati y'amazu, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Inyubako nziza igezweho, ikikijwe n'ibiti n'ubusitani, bwiza kandi ubona ko igeretse kandi ari nziza.